Umwana ukiri mutoya bigaragara ko yiga mu mashuri y'inshuke, akaba afite agakoresho kabugenewe, imbere ye hari agakinisho ari kugenda akiniraho kugira ngo yishime neza.

Umuhanda ushishemo amapave, hakaba haparitsemo moto. Iyo moto ni nziza cyane ku buryo abantu bose bayibonye batangarira ubwiza ndetse n'igiciro cyayo uko ihagaze.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako iteye amarangi y'umweru ku bikuta ndetse hakaba hashushanyijeho n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buhinzi.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bicaye bari kugenda bandika bakurikira amasomo yabo, aho imbere ku kibaho handitse imibare igiye itandukanye ndetse mwarimu wabo ntawe uhari.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, bakunze kwigira mu ishuri riba ririmo ibikoresho byinshi bihagije kandi bireshya na bo ku buryo babyicaraho bakumva bameze neza.

hariho amoko menshi agiye atandukanye y'utunyamaswa, bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke. Aho haba harimo ingona kugira ngo bajye bazifashisha bari kubigisha akaririmbo ka bayi bayi gona.

Udukapu twinshi tugiye dutandukanye, aho utu dukapu ari ingirakamaro cyane kubera ko twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, igihe baba bari kwiga amasomo yabo kugira ngo bazabashe gutsinda maze batwaremo n'amakayi yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bari gukina umupira abahungu ndetse n'abakobwa, hari na mwarimu uri gukina na bo w'umugore ndetse n'undi mwana uri kugendera ku mbago akaba ari gukina.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo imbere hari agakapu keza cyane, kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho batwaramo amakaye yabo.

pisine nziza cyane irimo udupupe tugiye dutandukanye turi kugendwamo n'abantu, bikaba ari ibintu bifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'incuke kugira ngo bajye biga babikunze bashyizeho umwete.

Abantu biga mu mashuri y'inshuke, hari amoko agiye atandukanye y'utunyamaswa, abarimu babo bakunze kwifashisha barikubigisha kugira ngo abo bana babashe kumenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bari ku murongonko aho imbere yabo hari abarimu babiri b'abagore, bari kubatondesha umurongo ndetse babatoza n'ikinyabupfura kugira ngo abana bazabe beza cyane.

Udukoresho twinshi cyane tugiye dutandukanye, twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kumenya amoko menshi agiye atandukanye y'ibikoresho, byifashishwa ndetse n'amabara yabyo.

Udupupe tugiye dutandukanye turi mu mabara agiye atandukanye y'umweru ndetse n'umutuku, tukaba twicaye aho turi kureba akamodoka imbere yatwo, utwo twifashishwa n'abarimu igihe baba bari kwigisha abana biga mu mashuri abanza.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, hashushanyijeho ibishyimbo bigaragara ko byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke bari kwigisha abanyeshuri babo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ikaba ishushanyijeho ingorofani, iyi ngorofani rero ni ingenzi cyane kuba bahinzi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako irimo umuntu w'umwarimu bigaragara ko yigisha ibijyanye n'ubugeni mu mashuri y'inshuke.

Utunyamaswa twinshi tugiye dutandukanye, tuba dufite amabara agiye anyuranye, tukaba twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke kugira ngo bigishe abanyeshuri amabara.

Ibitabo byigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakunda kubisoma cyane kubera ko biba birimo udukuru twiza kandi twinshi turyoshye ku buryo iyo umwana atwumvishije abasha kunezererwa.

Ikibuga kirimo ubusitani bwiza cyane bugezweho, aho icyo kibuga kirimo utuyira abanyamaguru banyuramo ndetse hakaba harambitse na kandagira ukarabe bigaragara ko ari ku nyubako y'ikigo cy'amashuri.

Udupupe twinshi cyane tugiye dutandukanye, aho utu dupupe batwifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke amoko agiye atandukanye y'ibipupe ndetse n'amabara yabyo kugira ngo babimenye.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, aho turi mu mabara menshi atandukanye. Tukaba twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho turi mu mabara y'umuhondo, ubururu, umutuku ndetse n'icyati.

Udupupe twinshi cyane tugiye dutandukanye dukunze kwifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakaba batwigiraho kugira ngo tuze kubashimisha kubera ko bashimishwa n'utuntu duto.

Agakapu kari mu mabara y'umutuku, aho kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, batwaramo amakaye yabo kugira ngo bayageze ku ishuri, nta kibazo agize amererwe neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bari kurya umunyenga ku myicundo, bambaye impuzankano nziza cyane z'ishuri. Aho uwo munyenga uri mu mabara y'ibendera ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako nziza y'amashuri, ikaba yubakishije amabati meza cyane y'ubururu ndetse ifite n'ubusitani bwiza cyane.

Udushushanyo tw'amabara menshi agiye atandukanye, tukaba twifashishwa n'abarimu bigaga mu mashuri y'inshuke, aho baba bari kwigisha abanyeshuri babo, amabara menshi agiye atandukanye abaho.

Hariho ibipure byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, iki rero n'igipupe cy'ingwe abarimu bifashisha bari kwereka abana' ukuntu ingwe zitwara utugare.

Agakapu keza cyane kari mu mabara y'umutuku, kakaba karametse ahantu, bigaragara ko ari keza, kuburyo umuntu wese ufite umwana wiga mu mashuri y'inshuke yakagura akakamuha umwana akajya agatwaramo ibikoresho bye.

Udukoresho tw'amoko menshi agiye atandukanye tuba turi mu mabara menshi, aho utu dukoresho twifashishwa n'abarimu ndetse bigisha mu mashuri y'inshuke, bakaba baba bari kwigisha abanyeshuri amabara agiye atandukanye.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu n'umuhondo, kikaba kiri imbere y'inyubako ziri mu mabara y'umuhondo, hakaba handitseho amagambo ngo tura heza.

Umugore ndetse n'umugabo bakaba bicaye ku ntebe, bafite abana babo babiri, bari kubigisha gusoma ibitabo kugira ngo babashe kujijuka mu mutwe maze bajye bamenya gusoma neza.

Ibipupe bigiye bitandukanye bigera muri bitanu, bikaba ari ingenzi cyane kubera ko byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke ndetse n'amashuri abanza.

Akantu kameze nk'inyenyeri kakaba karambitse ahantu gafite utuguru tugera muri dutanu, kari mu mabara agiye atandukanye y'ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku.

Udupupe tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, tukaba twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'incuke kugira ngo abana babo babashe kumenya ubwenge maze bazatsinde.

Abana bakiri batoya bakaba bateraniye hamwe bicaye imbere y'umusaza, bakaba bari kumubyinira umusaza nawe yicaye ku gatebe ka kinyarwanda, yashyize inshyimbo ku ruhande arikuririmbira yambaye n'amadarubindi.

Agasanduku kari mu mabara yagiye atandukanye, kakaba gafite utuntu tugera mu icyenda tutagize, bigaragara ko kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke igihe baba bari kwiga isomo ryabo.

Umwana wiga mu mashuri y'incuke, akaba yaratojwe isuku n'ababyeyi be akaba ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe yambaye impuzankano z'ishuri. Imbere ye hari undi mwana w'umuhungu bigaragara ko biga mu mashuri y'incuke.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bateraniye hamwe aho bicaye ku mukeka, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umukara, bari kumwe n'abaganga bambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarange y'umweru ku rukuta, hashushanyijeho ibikoresho byinshi byifashishwa mu buhinzi, aho ibi bikoresho babyifashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Hariho ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke iyo bari kwigisha abanyeshuri amoko agiye atandukanye y'inyamaswa ziba muri parike harimo ingwe, inzovu, imparage, intare, ingona ndetse n'agasumbabutaka.

Abagore babiri bahagararanye n'umugabo, bakaba bari kumuhereza igikarito bigaragara ko kirimo ibihembo, bari kumushimira kubw'ibikorwa by'ubutwari yakoze, akaba na we yishimye.

Udusanduku turi mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, aho utu dusanduku twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, igihe baba bari kwiga isomo ry'imibare maze bakajya baratwifashisha.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza kugira ngo bigishe abanyeshuri, amabara agiye atandukanye yo muri ibyo bikoresho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'ishuri, harimo umwarimu uri kwigisha yambaye itaburiya y'umweru, ari kwigisha abanyeshuri isomo ry'imibare.

Ikibaho kiri mu mabara agiye atandukanye y'umukara cyandikishijeho amagambo y'umweru bigaragara ko ari ikibaho cyanditseho ibisubizo by'ikizami abanyeshuri bari bakoze.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakunze kuba ari intiti cyane ku buryo baba bazi kwandika ku kibaho, bakandika ibikwiriye byose hanyuma mwarimu yabibona akishima.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, aho ibi bikoresho ari ingirakamaro cyane, ku buryo byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo bige neza isomo ryabo ry'imibare maze babashe kuritsinda.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, zikaba ari inyubako z'amashuri abanza, zifite imirima myinshi igiye itandukanye, aho iyi mirima ihingwa maze bakabona imboga zo gutunga abanyeshuri.

Mu mashuri abanza haba harimo ibishushanyo bigiye bitandukanye, aho ibi bishushanyo byifashishwa n'abarimu igihe bari kwigisha abanyeshuri amabara agiye atandukanye, hakaba harimo n'imbwa ifashe igufwa ry'ubururu mu kanwa.

Agasanduku kari mu mabara agiye atandukanye, kakaba gashushanyijeho ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare, hakaba harimo amarati, uducaruziga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri abanza. Bakaba bagiye kuyitaha kubera ko ikiri nshyashya, bakaba bagiye kureba uko imeze.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho ayo mashuri yubakishije amatafari ahiye akaba asaje amabati meza cyane akaba ari ku kigo cy'amashuri abanza aho abanyeshuri bigira.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako yo ku kigo cy'amashuri abanza, hari ubusitani bwiza cyane buteyemo ibendera ry'u Rwanda ryiza cyane ku buryo ribereye ijisho.

Ibishushanyo byinshi cyane bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza ndetse n'abarimu b'inshuke, bakaba babyifashisha bigisha abo banyeshuri kugira ngo bamenye amoko menshi y'amabara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho muri iyo nyubako mo imbere harimo udutebe twinshi tugiye dutandukanye n'ameza, bigaragara ko byigirwaho n'abanyeshuri biga mu mashuri ya pirimeri.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi bahuriye hamwe, aho buri wese afite igitabo. Bari kugenda basoma, berekana k'ubushobozi bamaze kugeraho bwo gusoma neza ururimi rw'ikinyarwanda kandi badategwa.

Udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye tuba turi ahantu, aho hari ishuri risakaje amabati y'ubururu, hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane buteyemo ibendera ry'u Rwanda ndetse n'abanyeshuri bari kujya ku ishuri.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho babyifashisha bari kwiga isomo ry'imibare haba harimo amarati, ikaramu y'igiti, uducaruziga, ndetse n'ibindi.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite amatafari ahiye agiye ayubatse ndetse ikaba ari inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Agasanduku kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho babyifashisha igihe baba bari kwiga isomo ry'imibare harimo uducaruziga, amarati ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Ahantu heza cyane hari ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye biri mu mabara menshi, aho ibi bishushanyo ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubifite bibasha kuba byamuteza imbere.

Udusanduku abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bifashisha bari kwiga, tukaba turi mu mabara agiye atandukanye y'umutuku, tuba turimo ibikoresho byinshi bifashisha bari kwiga isomo ry'imibare.

Ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye, aho biri mu mabara y'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi, bikaba byifashishwa bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo bamenye amabara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari ahiye, yasakaje amabati meza cyane, aho iyi nyubako ari ingenzi cyane kuko yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ishuri aho harimo abanyeshuri benshi ndetse na mwarimu wabo akaba ari kugenda abigisha na bo bakurikiye ibyo arimo kubigisha.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza, bakaba bambaye impuzankano z'amataburiya ziri mu mabara y'umweru, bahagaze hanze aho bari gufata ifoto nziza cyane y'urwibutso.

Udushusho twinshi cyane tw'amabara agiye atandukanye, aho harimo n'ikaramu y'ibiti, uducaruziga ndetse n'utumashini abanyeshuri bifashisha, bari kwiga imibare cyane cyane abiga mu mashuri abanza.

Ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza kubera ko biba biri mu mabara menshi agiye atandukanye, ku buryo bibasha kubashimisha bakanezerwa.

Udukapu tw'amoko agiye atandukanye tuba dufite amabara menshi kandi meza, tukaba twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kwiga neza amasomo yabo kandi bayatsinde uko bikwiriye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako yubatswe mu buryo bw'amagorofa, ifite ibikuta biteye amarange y'umweru ndetse ikaba ifite n'utwuma tw'icyatsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bari kujya ku ishuri bari kumwe na mugenzi wabo ufite ubumuga, bakaba bari kugenda bamusunikaho kugira ngo nawe agere ku ishuri kubera ko abafite ubumuga nabo barashoboye.

Inyubako nziza cyane zubatsweye mu buryo bugezweho, zikaba zisakaje amabati y'ubururu, zikaba ari inyubako z'amashuri abanza, aho zigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye baba baje gushaka ubumenyi.

Umukobwa n'umuhungu bambaye impuzankano zo mu mashuri abanza. Bakaba bari kugenda baganira mu rurimi rw'Icyongereza. Bafite amakaye mu ntoki zabo uko ari babiri.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubatswe mu buryo bw'amagorofa, yubakishije amatafarihiye ndetse iteyeke n'amarangi y'umweru ku bikuta, ikaba ari inyubako nziza cyane yo ku kigo cy'amashuri abanza.

Mu mashuri abanza haba harimo ibikoresho bijye bitandukanye biri mu mabara agiye atandukanye bifashisha bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo bamenye amabara ndetse no kumenya kubara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho imbere yayo hari igiti, munsi yacyo hicayemo umusaza ndetse n'abana, aho ari kugenda abahanura, abagira inama nziza zazabagirira umumaro.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho imbere yayo hari abana biga mu mashuri y'inshuke bari kugenda bahakinira, bigaragara ko abo bana ari abana bakiri batoya biga muri ayo mashuri.

Udupupe twinshi cyane tw'amoko agiye atandukanye turi mu mabara ubururu, umutuku, umuhondo, ndetse n'icyatsi, tukaba twifashishwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Udushushanyo tw'amoko agiye atandukanye, dukunze kwifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri abanza igihe baba bari kwiga isomo ry'ubugeni kugira ngo bamenye uko babasha gukora iyi mirimo y'amaboko.

Udushushanyo twinshi cyane turi mu mabara agiye atandukanye, aho twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri agiye atandukanye y'incuke kugira ngo babashe kumenya kubara ndetse no kumenya amabara menshi.

Ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho ibi bikoresho ari ingirakamaro cyane kubera ko byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kwiga isomo ry'imibare kugira ngo baritsinde.

Umugore wicaye ku ntebe ari guhereza abana ibyo kurya ku masahani, abana baricaye ndetse bari kuyakirana na yombi, mu buryo bwo kwerekana icyubahiro bagomba guha umubyeyi wabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri abanza, ikaba ari nziza cyane hari utuyira dushashemo amapave, abanyeshuri banyuramo bari kujya kwiga.

Akayira keza cyane gasakaje amabati, kakaba arikayira ko ku kigo cy'amashuri abanza giherereye mu karere ka Nyagatare, aka kayira rero karinda abantu izuba ndetse n'imvura igihe bari gutambuka.

Ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye biteraniye hamwe mu gikoresho kibika cyabugenewe aho ibi bikoresho byifashishwa mu mwuga w'ubwubatsika, bikaba ari ingirakamaro cyane.

Abana biga mu mashuri abanza hari udukoresho twinshi cyane abarimu babo bifashisha bari kubigisha kugira ngo aba bana bazabashe kumenya ubwenge ndetse bamenye n'amabara menshi agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta. Ikaba ifite ibyuma byiza cyane by'ubururu, hakaba hateraniye abantu benshi cyane, akaba ari ku kigo cy'amashuri abanza.

Amoko agiye atandukanye y'imyambaro iri mu mabara menshi, aho harimo ingofero y'umutuku, agapira k'umutuku ndetse n'umupira w'ubururu, bikaba biri ahantu byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Udushushanyo twinshi cyane tw'amoko agiye atandukanye, tukaba twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, tukaba ari ingirakamaro cyane, ku buryo iyo umunyeshuri atwigiyeho, abasha kumenya gusoma ndetse no kwandika.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi cyane bahuriye hamwe, hakaba harimo umuhungu umwe ufite indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho ijambo abandi na bo bamuteze amatwi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bafite impuzankano nziza cyane ariko haba hari barumuna babo biga mu mashuri abanza, baba bambaye impuzankano kandi bagakunda kwifotoza bishimye.

Umugore uri kuganira n'umwana we, aho uwo mwana agiye ku ishuri none nyina akaba ari kumugira inama, amubwira ati "mwana wanjye ugiye ku ishuri ntuzirinde udusho nka twa Claude ndetse na twa Eric".

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zo mu mabara y'umweru ndetse na kaki. Bakaba bahagaze imbere y'umuryango winjira, bakaba bari kwifotoza bari kumwe na mwarimu wabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo imbere harimo abantu bambaye amasarobeti, bikaba bigaragara ko ari abanyeshuri biga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyin ngiro bari gukora imyitozo.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye mu busitani. Bicaye ku ntebe zabo zabugenewe, aho bateze amatwi umuyobozi wabo uri imbere, ufite indangururamajwi mu ntoki.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarangi y'umweru ku gikuta, mo imbere harimo abantu bambaye utujiri bigaragaza ko hari abarimu bigisha mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako yubatswe mu buryo bw'amagorofa, imbere yayo hateraniye abantu benshi cyane bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bari kwifotoza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahuriye hamwe, aho bicaye mu busitani munsi y'ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, bakaba bari gukurikira umwarimu ubari imbere, uri kubagezaho ikiganiro.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, cyane cyane abiga imyuga n'ubumenyingiro, baba bafite abarimu babo babigisha bakunda kuba bambaye amajire, bakaza kubigisha kugira ngo barebe ko bamenya ubwenge.

Umwarimu uri mu ishuri ari kwigisha, akaba yambaye agapfukamunwa, ari kwigisha abanyeshuri mudasobwa uko bagomba kuzikoresha dore ko buri wese, imbere ye ahafite mudasobwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bateraniye hamwe, imbere yabo hakaba hahagaze umuntu uri kubafotora, na bo bahagaze neza bari kwifotoza mu buryo bugezweho bwa kinyarwanda.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho higanjemo abagore ndetse n'abagabo, hakaba harimo abambaye utujerire bigaragara ko ari abantu biga ibijyanye n'imyuwuga n'ubumenyingiro bakaba bari kuganira.

Inyubako nziza cyane y'amashuri abanza, aho yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba ifite ubusitani bwiza cyane nubwo ibyatsi byapfutse kubera izuba, hakaba kandi hari n'ikirere cyiza cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye benshi bagiye batandukanye, bakaba bateraniye hamwe aho imbere yabo hahagaze bagenzi babo, bakaba bambaye karuvati bari kubagezaho ijambo, abandi na bo babateze amatwi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bakaba bateraniye hamwe, aho bari kwifotoza, bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara y'ubururu ndetse na kaki. Imbere yabo hari umuyobozi wabo, uri kubagezaho ikiganiro.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, bakaba bambaye impuzankano zigiye zitandukanye ziri mu mabara y'imyeru ndetse n'imihondo.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe mu ishuri, aho bose barebye mbere. Bari gukurikira umwarimu wabo w'umugore, uri kugenda abigisha yandika ku kibaho hanyuma na bo bamukurikiye.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye bakaba bahuriye hamwe, bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye, bakaba bahagaze bari kwifotoza nk'abana koko kubera ko biga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu hasi. Bakaba bateraniye hamwe batonze imironko ,aho harimo abakobwa ndetse n'abahungu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye mu ishuri, abakobwa ndetse n'abahungu bambaye impuzankano, aho bose bari kwifotoza bafata ifoto y'urwibutso, bigaragaza ko bishimye cyane.

Abantu benshi bateraniye hamwe higanjemo umugabo uhagaze imbere y'abandi, ari kubakoresha inama. Akaba ari kugenda akoresha ibimenyetso by'amaboko kugira ngo abo bantu babashe gukurikira.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ko buri kigo cy'amashuri kiba kigomba kugira isomero aho abanyeshuri bajya kwigira maze bagasoma amasomo yabo bakunguka ubumenyi bugiye butandukanye maze bakazabasha gutsinda ibizamini.

Ahantu mu cyumba cyiza cyane cy'ishuri harimo abanyeshuri bicayemo, bambaye impuzankano zi mu mabara y'umweru, bakaba bicaye ku dutebe tw'umweru, aho bari kugenda baganira, bakurikiye umuntu uri imbere yabo urimo bakoresha inama.

abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe muri sare iberamo inama bakaba bambaye impuzankano z'ishuri, bicaye bari kurebana abandi barebye imbere bigaragara ko bakurikiye ikiganiro barimo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho harimo umugore uri kugenda muri iyo nyubako yambaye ipantaro y'umukara, akaba yambaye akajire k'umweru, aho ari kugenda atembereramo.

Umugabo uhagaze imbere y'abanyeshuri benshi cyane akaba afashe indangururamajwi mu ntoki ari kugenda abagezaho ijambo hanyuma na bo bamuteze amatwi muri ubwo busitani harimo n'ibiti birebire cyane.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu kigo cy'amashuri, aho higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye, ndetse bakaba barimo n'umuntu wambaye akajire.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe aho bicaye mu busitani, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu n'ibyatsi bakaba bicaranye na mwarimu wabo ari kubafasha gukurikirana inama.

inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye. Hakaba hari n'ikigega cyiza cyane cy'umukara aho hagaze abantu bambaye utujeri bari kureba niba ibi bintu byarubatswe neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bahuriye hamwe, aho abo banyeshuri bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu, imyeru ndetse n'amabara ya kaki kugira ngo bifotoze.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye hamwe mu ishuri, aho hari umwe ufite agapira gasa icyatsi, akaba yipfumbase ariko akurikiye umuntu ubari imbere ari kubagezaho ikiganiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho hari intebe nziza z'ubururu aho imwe iteretseho akadobo, izi ntebe rero ni ingenzi kubera ko abanyeshuri bazigiraho.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe ku ishuri, aho bicaye ku ntebe zigiye zitandukanye, bakaba imbere yabo hari mwarimu ubigisha aho ari umuzungu, bakaba biga muri kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarangi y'icyatsi ku bikuta, ikaba iriho icyapa gishushanyijeho utuntu tugiye dutandukanye, bigaragara ko cyakozwe n'abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite inzugi ziteye amarangi agiye atandukanye y'icyatsi ndetse na fime, ikaba izirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza.

Abanyeshuri basoje amashuri makuru ndetse na za kaminuza, babambika amakanzu ndetse n'ibigofero byiza cyane, aha rero ni ku munsi wo gutaha ibi birori, aho hari abantu benshi cyane bitabiriye baje kwihera ijisho.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abasoje amashuri makuru ndetse na za kaminuza, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umukara ndetse n'amabara y'ubururu, bari kwishimira ko basoje kwiga amashuri yabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umutuku ndetse iteye amarangi y'umweru ku bikuta. Ifite ubusitani imbere yayo, buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bibunze mu buryo bw'ubugeni, aho biba byarakozwe n'abanyeshuri bize muri kaminuza y'u Rwanda ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyin ngiro bakabikora neza cyane.

Igishushanyo cy'imodoka ifite amapine menshi, kikaba ari cyiza cyane kubera ko kiba cyarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'ubugeni bazi gushushanya neza cyane ku buryo biba bishimishije.

igishushanyo gishushanyije ku gikuta, aho kirimo umugezi mwiza cyane urimo amazi menshi ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi cyane, aho ibyo biti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi hafi aho.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye cyane cyane nk'intebe, zikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko zifashishwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza, bazicaraho ndetse bakanazandikiraho kugira ngo ngo batsinde.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako ifite ibikuta biteyeho amarangi y'umweru, hakaba hamanitseho ibishushanyo bikozwe mu buryo bw'ubugeni.

Icyapa cyiza cyane cyanditse mu mabara y'umweru. Hakaba hariho umugabo ufashe indangururamajwi mu ntoki ari kubwiriza bigaragara ko ari umupasiteri, hari abandi bantu bamukurikiye inyuma, bigaragara ko ari abayoboke.

Umugabo uri kugenda amanuka ku masikariye, akaba yambaye agashati kari mu mabara agiye atandukanye, akaba afite agakapu mu ntoki bigaragaza ko ari umunyeshuri wiga muri kaminuza, adakapo afite karimo mudasobwabwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iteye karabasasa ku bikuta, inzugi ziteye amarangi y'icyatsi, aho zifite ibirahure bitabonerana ku buryo wapfakubona mo imbere uko wishakiye.

Udutebe twiza cyane tugezweho, twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza tukaba turi mu mabara y'ubururu, aho tuba dufite aho umuntu yicara ndetse n'aho yabasha kwandikira igihe abikeneye.

Akabindi gakozwe mu buryo bugezweho, aho ako kabindi kaba karakozwe n'abanyeshuri basoje mu mashuri yisumbuye barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako irimo udutebe twiza cyane tw'umutuku ndetse n'utundi tw'ubururu, tukaba twifashishwa mu mirimo igiye itandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'umumotari ahetse umugenzi, imbere ye hari imodoka iri mu mabara y'umweru nayo iri kugenda muri uwo muhanda, hakaba hari n'ibiti byinshi cyane biwukikije.

Udukoresho twinshi cyane tugiye dutandukanye, tuba dukoranywe ubuhanga kandi dukozwe mu buryo bw'ubugeni, ku buryo tuba twarakozwe n'abanyeshuri baba barize ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, bakaba bateraniye hamwe, bari kwiga barebye ku ruhande, aho umwarimu wabo ahagaze kugira ngo babashe gukurikira.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ifite icyapa kiyimanitseho cyanditseho utuntu twinshi turi mu mabara yagiye atandukanye, aho biba byarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Intebe nziza cyane, izo ntebe zikaba ziri mu mabara y'ubururu, zikaba ari intebe zifite aho kwicara, aho kwegama ndetse naho kwandikira. Zikaba ziri muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyagatare.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse ikaba ifite inzugi nziza cyane z'icyatsi, hakaba hariho n'ibirahuri bishushanyijeho igisiga kinini.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba irimo amoko agiye atandukanye y'intebe nziza cyane z'ubururu, aho zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho izo nyubako ziteye amarangi y'umweru ku rukutaka zikaba zisakaje amabati y'umutuku bifite n'ubusitani bwiza cyane kandi bugezweho.

Ahantu mu ishuri, muri kaminuza y'u Rwanda, aho abanyeshuri bafuwe n'abayobozi bagiye batandukanye, aho muri abo bayobozi harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho hari igikuta gitatsemo ibitenge by'amabara agiye atandukanye, bikaba byifashishwa n'abarimu, igihe bigisha abanyeshuri bo muri kaminuza.

Muri Kaminuza y'u Rwanda haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibikoresho biba byarakozwe n'abanyeshuri, aho aba banyeshuri aba ari abahanga cyane ku buryo badukora ukabona dukoranye ubuhanga ku buryo buri wese yishima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo imbere hateraniye abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, abera ndetse n'abirabura, bakaba bari mu nama, aho bari kugenda bungurana ibitekerezo.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, bikunze kuba bikozwe mu buryo bw'ubugeni, aho biba byarakozwe n'abanyeshuri baba barize, ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, by'umwihariko muri kaminuza y'u Rwanda.

Igikoresho kizwi nk'agapfukantoki, gikunze kwifashishwa n'abantu bize ibijyanye no gukanika bacyambara bari gukanika ibinyabiziga bigiye bitandukanye kugira ngo amavuta y'imodoka atabagera ku ntoki.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako ari inyubako yubakishije amatafari ahiye. Iteye amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi, ikaba ari nziza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta, mo imbere hakaba harimo mudasobwa zigiye zitandukanye, bigaragara ko yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'amashuri, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, bafite intebe zabugenewe bicararaho bari kwiga maze bagatsinda.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari gukora ikizami, bakaba biga mu mashuri ya za kaminuza, bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyambaro myiza cyane, bakaba buri wese ari kugenda yikorera kugira ngo hatagira ukopera undi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarangi y'icyatsi ku bikuta, hakaba hariho udushushanyo tugiye dutandukanye twiza tuba twarakozwe n'abanyeshuri bize imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Abanyeshuri bashoje muri Kaminuza y'u Rwanda, bakaba bageze ku munsi wo kwambara, bicaye abandi bahagaze, bambaye amakanzu meza cyane n'ingofero, bishimye banezerewe bari kumwenyura abandi bacinya akadiho

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako ya kaminuza. Ikaba yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye kugira ngo bazabashe gutsinda neza amasomo yabo baba bigishijwe.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako ifite ibikutateye amarangi agiye asa umweru hakaba harimo intebe nziza cyane z'ubururu, aho izi ntebe zifashishwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda.